Mu mashuri y'inshuke abana bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha mu kumenya amasomo yabo. Nko mu isomo ry'imibare abana bashobora gukoresha udukinisho, bakatubara kugira ngo barusheho kumenya imibare cyangwa se bagakoresha ibishushanyo byanditseho inyajwi kugira ngo bazivuge, babashe kuzimenya.

Mu bigo by'amashuri abarimu bifashisha ingwa igihe bari kwigisha abanyeshuri, bakandika ku kibaho abanyeshuri n'abo bakandukura mu makaye yabo, ingwa ziba mu moko atandukanye yiganjemo amabara harimo iz'umweru, umuhondo, umutuku n'ubururu umwarimu yifashisha bitewe n'ikibaho ari kwandikiraho.

Ubumenyi bushingiye ku ikoranabuhanga bushyigikiwe cyane n'igihugu cy'u rwanda mu rwego rwo guteza imbere abanyeshuri kugira ngo bakure bazi ibyo bakora kandi bafite ubumenyi bubafasha mu guhangana ku isoko mpuzamahanga. Cyane mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga harimo nko gukoresha imashini za mudasobwa n'ibindi bikoresho.

Abana biga mu mashuri abanza bagomba kwitabwaho cyane, bakagirwa inama ndetse bagahabwa n'ubumenyi buhagije, burimo nko kwitwara neza igihe bagenda mu muhanda bagiye ku ishuri, bakirinda gukina imipira kuko ishobora kubateza impanuka.

Mu mashuri y'incuke n'abanza usangayo impapuro nini zabugenewe mu gushushanywaho, aho usanga abana bashushanyaho ibikoresho byo mu rugo, bakabyita n'amazina mu ndimi z'amahanga, kugira ngo barusheho kumenya ururimi.

Buri munyeshuri wese agomba kugira ikayi yandikamo cyangwa afatiramo note aba yahawe n'umwarimu umwigisha, abanyeshuri biga isomo ry'imibare usanga bakoresha n'ibishushanyo bibafasha mu kumva neza ibyo mwarimu yabigishije.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakura baratojwe umuco wo gusomera hamwe ndetse no gufashanya mu masomo kugira ngo bizaborohereze mu myigire yabo, usanga basomera hamwe ibitabo mu ishuri kandi bagafashanya no mu gusobanurirana.

Mu bigo by'amashuri yisumbuye usangayo ibyumba bitandukanye abanyeshuri bifashisha mu gihe bari kwiga. Usangayo kandi imbuga yisanzuye, ugasangayo aho banywera amazi meza, ugasangayo aho bakinira, ndetse buri kigo cyose kigira ikirangantego cy'ishuri.

Mu mashuri abanza n'ayisumbuye, abanyeshuri bafata amasomo yabo, binyuze mu buryo bwo kwandika ku kibaho. Umwarimu azana igwa akabandikira noti ku kibaho, akabasobanurira. Abanyeshuri nabo bakandukura mu makaye yabo, bakabasha kubisubiramo igihe bari mu rugo. Ibi bitandukanye no mu mashuri ya za kaminuza kuko batandika ku kibaho.

Mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza, usangayo ibishushanyo by'inyuguti ndetse n'imibare ishushanyije ku bikuta by'ishuri kugira ngo abana bajye babasha kubyitegereza banabisubiremo kenshi mu rwego rwo kugira ngo barusheho kumenya amasomo yabo.

Mu bigo byose by'amashuri, habamo intebe zikoreshwa zicarwaho n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga, aho usanga buri ntebe yaragenewe kwicarwaho n'abanyeshuri babiri, kugira ngo hirindwe ubucucike bwinshi n'akavuyo mu banyeshuri, cyane nko mu gihe bakora ibizamini.

Urwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Berinadete ruherereye i Huye, ni rimwe mu ishuri ryatanze umusaruro ukomeye cyane mu kurera abana b'abaturarwanda. Abize muri iri shuri, batanga ubuhamya butandukanye, bw'uko bahaherewe indangagaciro zikomeye n'ubumenyi bwabafashije kwiteza imbere.

Ihuriro ry'abanyeshuri b'abakobwa, bari kuganirizwa n'umuyobozi wabo abaha ubujyanama ku bijyanye n'imico n'imyifatire yabo, mu rwego rwo guteza imbere imyigire yabo, ndetse no kwimakaza indangagaciro z'umuco Nyarwanda.

Abanyeshuri mu bigo aho biga bambara impuzankano zisa, ibingibi bifasha ubuyobozi bw'ishuri mu gucungira umutekano abanyeshuri bahiga, bityo n'umuntu wo hanze ushatse kubinjiramo biroroha kugira ngo amutandukanye n'abanyeshuri baho.

Abanyeshuri batsinze neza ikizamini cya Leta gisoza amashuri abanza, boherezwa kwiga mu rwunge rw'amashuri rwa Huye, iri shuri rifata abanyeshuri b'intoranwa bamwe bagize amanota ya mbere mu ba mbere, abanyeshuri bahiga usanga bafite ubumenyi mu bijyanye n'ururimi, ikoranabuhanga ndetse n'imibare.

Mu mashuri yisumbuye, abanyeshuri baho bakora ikizamini cya Leta gisoza icyiciro bagezemo, iki kizamini kiba gikomeye kandi nta muntu uba wemerewe kugikopera, buri munyeshuri yicara ku ntebe ye, agahabwa ikizamini cye, iki kizami ni cyo kigena abazajya kwiga mu mashuri makuru ya za kaminuza mu gihe babonye amanota meza.

Ihuriro ry'abanyeshuri bakusanyirijwe ahantu hamwe, bambaye impuzankano zisa, bari kuganirizwa n'abayobozi b'ikigo ndetse n'abarezi, aho bari guhabwa ubujyanama butandukanye bujyanye n'uko bakongera umusaruro mu masomo yabo ndetse no kwimakaza imyitwarire myiza.

Mu mashuri abanza usanga hakigaragara ubucucike bw'abanyeshuri bicara ku ntebe ari nka bane, ibi ngibi bihabanye n'uko ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bubigena, bugena ko buri munyeshuri yagakwiriye kwicara ku ntebe nibura ari umwe, byakabya bakaba babiri.

Mu mashuri yisumbuye abanyeshuri bigishwa isomo ry'ikoranabuhanga, bagahabwa imashini zabugenewe kandi bagahugurwa n'abarimu babifitiye ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo bafashe abanyeshuri mu gukura bazi gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo n'imashini za mudasobwa.

Ibigo by'amashuri bigenda byiyongera umunsi ku munsi mu gihugu cy'u Rwanda. Bigafasha igihugu, mu guteza imbere ndetse no guhugura abana b'abaturarwanda. Ikigo cya Gahogo giherereye mu Ntara y'Amajyepfo, mu Karere ka Muhanga, kigisha abanyeshuri ibijyanye n'imibare, ubumenyi bw'isi n'ubukungu ndetse n'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri benshi biga mu bigo bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, bambara impuzankano ziganje mu mabara atandukanye, harimo umweru, ikigina, umukara, umuhondo, ibi bikorwa kugira ngo buri kigo kibashe gutandukanywa n'ikindi kandi bigabanye akavuyo mu myambarire y'abanyeshuri.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri biganjemo abo mu mashuri makuru n'ayabanza, usanga ari rwinshi mu masaha ya mu gitondo no ku mugoroba, igihe abanyeshuri bajya ku ishuri ndetse banataha, abatwara ibinyabiziga na bo usanga babyitondeye, mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka no kugonga abanyeshuri.

Kimwe mu bitandukanya abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye n'abiga mu mashuri makuru, twavuga ku mpuzankano, nta munyeshuri wiga muri kaminuza usabwa kwambara impuzankano runaka, dore ko aba afatwa nk'umuntu mukuru ushobora kwicungira umutekano kandi wakifatira imyanzuro.

Mu mashuri makuru ya za kaminuza abanyeshuri baho bahabwa amakarita y'ishuri abafasha mu kwinjira ndetse no gusohoka mu kigo bigaho kugira ngo hirindwe amanyanga ndetse n'abantu bashobora kwinjirira ishuri rya kaminuza, bakaba bakora ibikorwa bigayitse harimo n'ubujura. Bityo buri munyeshuri wese wiga muri kaminuza yerekana ikarita ku muryango winjira mu ishuri.

Mu mashuri makuru ya za kaminuza, uhasanga inyubako zubatse ku buryo bw'amagorofa kandi zikeye cyane, ukahasanga ubusitani bugari kandi buteyemo ibiti by'inganzamarumbo, ibifasha abanyeshuri bahiga mu kwigira mu byumba by'amashuri byisanzuye kandi bakabona n'aho baruhukira mu gihe batari gufata amasomo.

Mu mashuri makuru ya za kaminuza, usangayo ibikoresho bitandukanye, birimo intebe zigezweho, imashini za Mudasobwa, ibibaho bigezweho by'ikoranabuhanga byifashisha za Mudasobwa, mu rwego rwo kwerekana amashusho, cyangwa se ibiri kwigishwa n'umwarimu.